Eri de fogisi ni umuti ukoreshwa mu bihingwa bitandukanye, inyanya, ibitunguru, ibigori, hiririndwa udusimba dutandukanye twatuma igihingwa kidatanga umusaruro bikarinda ko umusaruro ugabanyuka.

Ikibaya kinini cyane gihinzwemo umuceri. Aho umuhinzi ari gutera umuti kugira ngo hirindwe ko umuceri we wakwangirika, hazamo udukoko twatuma inti zitabasha gukomera cyangwa ngo zizemo utange umusaruro.

Mu gishanga niho akenshi hakunze kwera imboga cyane cyane ziri mu bwoko bw'amashu. Umuhinzi adateye umuti ngo arwawanye udusimba tubonekamo， ntabwo yabona umusaruro ahubwo yaba aruhiye ubusa.

Ifumbire y'imborera irimo udusimba batwita utunyorogoto, ifasha mu gutuma ibihingwa bimererwa neza iyo babiteye, kandi n'ibisimba nk'uko ibindi bitandukanye iyo tubiririye bituma natwo tumererwa neza.

Ibi byarahindutse aho bajya batera bakifashisha imiti ya kizungu ishinzwe kwica udusimba dushobora kwangiza ibihingwa, harimo imboga, ibigori ndetse n'ibindi.

Ubwatsi bushobora gukoreshwa kugaburira amatungo kugira ngo bibashe gutuma inka cyangwa intama, amatungo magufi cyane cyane abasha kubona umukamo uhagije ndetse n'ifumbire ikaza yunganira umuhinzi.

Kugirango habeho umusaruro wizewe kandi utunganyije neza, habaho icyo bita umurima wo muri laboratwari aho bakora imbuto zigiye zitandukanye bitewe naho izaterwa. Niba ari mu majyaruguru bakamenya uko babigenza, ahari izuba bakamenya uko babigenza kugira ngo icyo kiremera kizabashe kwihanganira ubushyuhe cyangwa ikirere cy'aho hantu.

Ifunguro riteguwe neza ryo muri hoteli, ifi ugashiraho sitoro cyangwa indimu kugira ngo bigufashe kuyirya neza. Warangiza ukongeraho salade, ukabirya ukumva umerewe neza, ukumva ubuzima buri kugenda neza, ukishima kuko uba wasohotse muri hoteli.

Indagara, ziboneka mu mazi kandi na zo zifite poroteyine nyinshi kugira ngo umuntu ubiriye agubwe neza, bimurinde kuko akenshi inyama z'umweru ziba nziza cyane kuko ziba zidafite ibinure byinshi byatera uziriye uburwayi.

Ifi iva mu mazi iri gukarangwa cyangwa ku ifuru yaswe na mucoma, bashyiraho ibirungo ni ifi imeze neza kandi uyiriye nawe agubwa neza , cyane cyane nk'umuryango uba wasohotse iyi fi irabaryohera.

Icyokezo cya kizungu, aho bakoresha bari kotsa isamaki cyangwa amafi. Hagashyirwamo n'ibirungo bitandukanye, kugirango uyiriye wese yumve amerewe neza, kandi bitume azanagaruka kubateza imbere.

Kugira ngo habashe gufatwa, amafi indagara ndetse n'ibindi bakoresha imitego, bitewe n'ubwoko bashaka kuroba. Amasamaki bakoresha minini bashaka kuroba amafi n'indagara, bakoresha duto bigendewe ku buziranenge bw'imitego mu mazi.

Bigira umumaro ku buzima bwa muntu aho uyiriye atarwaragurika imurinda indwara. Hari abahitamo kuyirya itogosheje, abandi bakayirya icishije mu mavuta cyangwa ikawushije.

Ikiyaga kirimo ibikoresho bitandukanye bakoresha kugira ngo babashe kubona ingufu zikoreshwa mu mashanyarazi cyangwa mu muriro ,hakoreshwa na gaze batekesha, izo ngufu rero ziba muri bino bikoresho baba bapfundikanyije kugira ngo havemo ibikoresho.

Ifi ubwoko bw'ibinyabuzima biba mu mazi biribwa n'abantu bose mu buryo butandukanye abazitogosa bakazirya zitogosheje , ndetse akarusho hari n'abazikaranga bashizeho ibirungo maze bakarisha ibintu bitandukanye mu rwego rwo kwirinda ibinure byinshi mu mubiri n'uburwayi bahitamo kwirira ibivuye mu mazi.

Isambaza ni udufi duto, cyangwa indagara nto ziba mu kiyaga, cyane cyane mu kiyaga cya kivu, aho zirombwa zikaribwa ari mbisi, cyangwa zikawushije mu mavuta, mu rwego rwo kwirinda imirire mibi n'igwingira mu bana, ndetse no kwihaza mu miryango, babikoresha bagaburira abagize umuryango.

Ibikomoka mu mazi bita indagara za zanzibari ziraryoha, zujuje ubuziranenge, mu Rwanda ntizihaba, ariko umuntu uziriye agubwa neza, agira n'imirire myiza cyane cyane ku bana, hirirwa imirire mibi n'igwingira.

Isamaki cyangwa terapiya ni inyama yo mu bwoko bw'umweru, uziriye ntagira ibinure bitera indwara, kandi n'umwana wayibonye akayirya arakura mu gihagararo ndetse agira n'ubwenge, kuko yujuje ubuziranenge n'intungamubiri.

Ikidodoki ni imboga nziza cyane, bikunze kwera mu majyaruguru, batoranywaho imboga, basoromaho igihaza, ukiriye ntaho ahurira no kugwingira. Igitoki bagitekamo, baragiteka, kikavamo n'imineke, ubiriye akavuga neza.

Imirima y'abaturage batandukanye, aho abahinzi bahuza ubutaka kugira ngo babashe guhinga imbuto imwe, mu butaka bumwe, hirindwa ko habaho ubujura cyangwa kugira ngo n'ako gace batuyemo bihaze kuri icyo gihingwa baba batoranyije.

Ibigori biri mu murima bigeze mu gihe cyo gusarurwa ariko ku muntu ushaka kurya ikigori cyokeje yabisarura bikimeze gutya ko nacyo kiraryoha, kandi ibigori na byo bimaze kuma bivamo ubugari cyangwa umutsima uwuriye akagubwa neza kagira imbaraga.

Urutoki rwiza rukoreye ndetse n'ibiti by'isombe, aho urutoki rukoreshwa havamo inzoga cyangwa rugakoreshwa ibitoki bivuyemo bikaribwa ukagira umuryango akamaro, ushyizeho isombe umuryango ukamererwa neza.

Umurima w'amashaza mwiza kandi muremure umeze neza. Nk'amashaza aba ari mu bwoko bw'ibinyabisogwe, akoreshwa mu ifunguro rya buri munsi. Nshobora kuyagereka, nshobora kuyarya yonyine, akongerera umumaro mu mubiri.

Iyo isarura ry'ibigori rirangiye ibikenyeri na byo bisigara mu murima, byamara kuma kuma bakabasha kubigira ifumbire, cyangwa bakabijyana bakabisasira amatungo, mu rwego rwo kugira ngo bazabashe kubona ifumbire itubutse.

Umurima mwiza w'ibirayi kandi bigeze igihe cyo gusarurwa harimo n'ibiti byo kugira ngo ibishyimbo bibashe kuzamukiraho, bikure bitange umusaruro. Ibirayi ni byiza kandi byitegurwa gusarura.

Umurima mwiza munini witaruye. Aho ibigori bimaze gusarurwa, baritegura kongera kuhahinga. Ariko harimo n'igitoki, mu minsi mike kiraba cyeze aho kizatangwamo ibyo kurya, umuryango ukamererwa neza.

Umubirizi ukoreshwa nk'umuti uvura inzoka, uvura n'ibindi bitandukanye cyane cyane amatungo. Amasaka ibikeneri by'amasaka amasaka umuntu ayakuramo igikoma, ikigage. Avoka n'urubuto rwiza ushobora kurya ukagubwa neza.

Ishyamba rirerire kandi ryiza rinini, haririmo ibiti bitandukanye cyane cyane birimo inusi cyangwa inturusu bitewe n'aho umuntu avuka. intusi n'umweru yifashishwa cyane mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ni umuti.

Inyubako nziza cyane aho usigaye ugenda ugasanga harubatse inzu zirubatse zimeze neza zifite ibati ritukura ,igihe wasangaga umuntu w'umukire yarasakaje amategura abandi ari ibyatsi, ariko ubu abanyarwanda barasirimutse bazi ibyatuma bamererwa neza, bagaragara neza.

Intafarasosoryo cyangwa inyinya bikoreshwa cyane birinda indwara babiteka babivanze n'amashaza cyangwa ibishyimbo ku bakecuru bo babikunda bakuze kandi n'abakiri bato barazikoresha kuzo zirinda umuvuduko, ukiza umutima, uturiye wese yumva ameze neza.

Ni meza kuko ari mu bwoko bw'imboga, uye uwuriye wese agubwa neza, bimurinda indwara kandi arayagurisha, akavamo amafaranga atunze umuryango.

Urusenda rwa piripiri rutukura rukoreshwa nk'ibirungo cyangwa rukongerera apeti kuri bamwe kandi rushobora no kuba umuti kuko ubushakashatsi bwerekanye yuko urusenda umuntu ururiye aramba cyane kurenzaho cyane cyane mu Bahinde.

Inkoko yitwa isake, isake barayirya, isake ishinzwe kubyutsa abantu mu gitondo, kuko irakokoza, yamara gukokoza abantu bakabyuka, kandi iranabangurira inkoko ikabasha kubona amagi azavamo imishwi.

Kugira ngo umurima wawe umererwe neza kandi uzaguhe umusaruro , biba bisaba ngo iyo umaze gutera imyaka ujyeyo urebe uko imyaka imeze , niba ari iyo kubagara uyibagare, niba ari iyo gushingirira uyishingirire , niba ari iyo kuhira uyuhire kugira ngo uzabone umusaruro uhagije .

Avoka zibamo amoko menshi atandukanye. Hari izo bita iz'umukara, hari izo bita iz'amavuta, hari n'izo bita iz'ibiheri hari n'izo bita iza poroje, aho zimwe bazikoreshwa hakorwa amavuta zigakoreshwa ziribwa hirindwa ko umuntu yagira imirire mibi.

Umurima munini cyane w'ibigori aho abagabo n'abagore bafatanyije bari gusarura ibigori byabo kugira ngo bajye kubihunika, babimanike bizabatume babasha kubona ubugari, umutsima bawurye n'umuryango wabo bamererwe neza

Amaronji ni imbuto nziza ziryoha zimeze neza ari amaronji y'umuhondo, ari amaronji bita ngo ni oranje cyangwa y'icyatsi amaronji araryoha buyariye amererwa neza kuko ari mubituma nta ndwara zapfa kugutera.

Umusaruro, umuhinzi iyo amaze kuwubona ageze igihe cyo gusarurwa agera n'igihe cyo kuwanika kugira ngo hirindwe ko umusaruro we wangirika bigatuma ku isoko ubuziranenge butuzuye, hanikwa bigendeye ku ngano y'uko iyoyakaka ye ingana.

Igitoki gishobora kuribwa ugitogosheje kiriho ibishishwa ukakirya ukivanze n'ibindi byo bita imvange, ukirya ukivangiye n'amakaroni ibyo byose bigatuma ukiriye agubwa neza, kuko biri mu bitera imbaraga, washiraho n'imboga n'indagara n'utundi umwana ubiriye akabasha gukura atagwingiye.

Amateke ni ibiryo byiza kandi bitera imbaraga, aho ushobora kuyateka uyatogosheje gusa cyangwa ugashyiramo ibishyimbo, maze umuryango wawe ukagubwa neza, uri mu bitera imbaraga kandi ushyizemo imboga, ugashyiramo indagara, uba wirinze kurya indyo ituzuye.

Hangari ikoreshwa n'abahinzi ba koperative, baba barishyize hamwe bakandikamo ibigori, kugira ngo bibashe kugira umusaruro muzima mwiza , kandi ndabona n'ibigori bimeze neza, byanitse neza.

Guhinga nibyo bigize abantu， usanga udahinze bitakunda， aho abahinzi bagerageza kubagarira imyaka yabo， kugira ngo ibashe kwera neza， basibura imigende kugira ngo amazi ataza gusenyera abandi cyangwa agatwara imyaka.

Amapera ni imbuto nziza cyane abamo ubwoko butandukanye. Amapera y'umweru, amapera atukura, amapera akenshi ni umuti, kuko n'ibibabi byabyo umuntu ubikoresheje arwaye inzoka arakira. Umwana urabikoresha niba yari arwaye inzoka kudiyara, bigahita bihagarara.

imirima itandukanye irimo insina ivamo igitoki n'imineke abantu bakamererwa neza, avoka uru rubuto rumeze neza ruvamo amavuta yaterwagamo umuntu akamererwa neza, imyembe mu rubiko rumererwa neza.

Isoko ry'ibiribwa bitandukanye, harimo karoti, ibitunguru bitukura, amagi. Bikaba biri mu agatanda bubakiyeye neza, kugirango bitagira icyo byangirika.

Umurima w'ibishyimbo umeze neza byatangiye kuzana imiteja. Imiteja iribwa itogoshejwe bakabivanga n'indi myaka kandi iyo ibishyimbo byeze nabyo bigira umumaro kuko biri mu birinda indwara kuko byuzuyemo poteyine.

Rwiyemezamirimo w'umugore watinyutse agakura amaboko mu mufuta, akemera guhinga pavuro zikoreshwa mu birungo nk'ibirungo. Harimo izisa umuhondo, iz'icyatsi, bitewe n uko umuntu abikunze aragura.

Guhinga ni ugushora. Ahahinze abahinzi bari kureba aho bigeze kugira ngo imyaka bahinze ibashe kumererwa neza, ibi ni ibijumba. Ibijumba kandi bivamo ibintu byinshi bitandukanye amabiswi ifu, ndetse ukanabikoresha ugaburira umuryango, ukamererwa neza no kugira imbaraga.

Igiti c'avoka, gifite avoka ntoya, bakunda kwita poroje bakoresha kuvanamo amavuta, ndetse no kugwanya igwingira.

Umurima munini cyane mwiza uteye neza, imbuto zirimo n'ibirayi uteye ku murongo ku uburyo ubona wese, abona ko bizatanga umusaruro ushimishije.

Umuhinzi ni we utuma igihugu kibaho cyishwe n'inzara kandi ntitwarya tutahinze. Abagore n'abakobwa bashishikaye bari guhinga kugira ngo babashe gutera imyaka itandukanye, hirindwa inzara mu rugo rwabo ndetse no mu Gihugu muri rusange.

Umurima w'amashu mwiza cyane. Abahinzi bari gusarura amashu. Umubyeyi afashemo abiri kugira ngo ajye kuyateka we n'umuryango we umererwe neza, kuko amashu ari mu bitera umubiri kumererwa neza, kuko ari mu mboga uyariye agubwa neza.

Inkoko iratera, yamara gutera amagi hashira igihe runaka ikararira, irarira y'amagi cyane cyane bikunze kubaho ku nkoko z'inyarwanda ni ho bishoboka, irararira igaturaga imishwi, imishwi n'ayo ikazatanga inkoko zikazakura zikavamo amafaranga ndetse n'umuryango ukiteza imbere.

Umufuka bashashe mu muhanda hafi y'aho amazi aca, bashyiraho gucuruzamo imyembe, urusenda, inkoko iteretse ku ruhande rw'uwo mufuka, n'umwana urangaye uri kureba ruguru y'umuhanda areba ibintu biriho.

Rwiyemezamirimo w'umugore witeje imbere ahinga inyanya za kijyambere, za zindi zishobora kumuhereza umusaruro, aho ashobora gusarura birenze rimwe, kabiri, gatatu, akabona umusaruro, abana be bakamererwa neza ndetse n'umuryango muri rusange ,n'igihugu na cyo ubwacyo zikabasha kubona kuri uwo musaruro.

Umurima w'igikoni urimo imboga zigiye zitandukanye: pavuro, imboga z'inyabutongo, aho umuryango uzirya kandi ukazana n'amafaranga mu muryango, umuntu akabasha gukemura ibibazo bindi afite.

Ibigori iyo bimaze igihe igihe cyo gusarurwa bimaze guta amazi, babizana aho habugenewe bita muri hangari, aho babimanika babicuritse kugirango bikomeze bite amazi kandi bikomeze bigire ubuziranenge, kugirango nibijya ku isoko bizabone abaguzi bitewe n'ubwiza bifite.

Ibihinzwe kijyambere zitanga umusaruro mwiza. Izi nyanya zo barazishingirira, bagashiraho imishingiriro kugira ngo zibashe gukura neza, umusoromyi agasoroma. Bimuzanira amafaranga, agakemurara ibibazo afite ndetse akaniteza imbere, agahinduka rwiyemezamirimo.

Inka n'itungo abantu bose bubaha kuko bitanga amata, bitanga ifumbire ku bahinzi n'aborozi kandi ni itungo rivuga umuco wa kera w'abanyarwanda kuko umuntu wabaga adafite Inka nta kintu yabaga afite. Inka ni nayo basabisha umugeni.

Umurima w'imboga z'amashu. Munini mwiza. Ababyeyi bayahinze bashimishwa no kubona umusaruro wabo, bafashijwemo n'umugabo kugira ngo buri wese amenye yuko umurimo akora atari umugabo cyangwa umugore bose ko bagomba gushira hamwe.

Inyanya ziboneka mu isoko ahantu hose. Kandi buri wese agura bitewe n'ubushobozi bwe. Hari abagura bakoresheje agapaniye kuzuye inyanya, abandi bagakoresha ibase. Hari n'abakoresha utudobo. Bitewe n'uko umucuruzi cyangwa umuguzi yifuza kugura , ni ko bamuhereza. Kandi inyanya zigira akamaro ko gutukuza ibiryo, ibiryo bikaba bisa neza.

Urubuto rwiza, rwera mu Rwanda hose, ntiruhenda, buri wese w'umunyarwanda yashobora kubona amafaranga aruguze kuva kuri se mirongo itanu, ijana ubona avoka ukayishyira ku biryo ikaba ari urubuto rutuma umuntu amererwa neza mu nda,

Amateke yera ahantu hahehereye hari ubutaka bworoshye, kandi iyo amaze kwera avamo amababi yayo ashobora gukoreshwa mu mboga, kandi agatekwa amateke agasarurwa agatekwa mu bishyimbo bigatera imbaraga uyariye.

Mu umurima w'ibirayi harimo n'ibishyimbo biri ku mishingiriro, ari byo byatangiye kuzana uruyange by'umutuku bita berinkingi n'ibindi byatangiye kuzana imiteja.

Imishwi iri mu kirararo, yavuye mu magi ya -turazwe n'inkokokazi ya kijyambere. Yabonye ibyo kurya bihagije kandi iyi mishwi nayo, iba igenda itanga umusaruro iyo uyoroye neza, ikarya ibikenerwa byose, ukayiha urumuri, ukayirinda imbeho.

Isoko ry'abaturage zitandukanye aho abaguzi n'ugurisha bagurisha ibishyimbo, ingano ndetse n'ibindi bitewe n'uko umuntu yifite mu mufuka.

Amateke ni ikiribwa kiryoha cyiza gitera imbaraga, iyukiriye ugashyiraho ibishyimbo, imboga, ukarenzaho imbuto. usanga umeze neza uba ukomeye uba wumva wishimye.

Guhuza ubutaka ni byiza cyane. Bituma abahinzi bo mu gace runaka bahinga ikintu kimwe bumvikanye. Aho bahinze ibigori, bituma no kubona amafumbire, imiti, byoroha cyane kuko baba bahuje ubutaka.

Aho amavuta bita avokado oyiri akoreshwa kugirango umusatsi w'umunntu umererwe neza, hari nigihe uyisize ahantu hari ibiheri hari imiruru ugasanga ubaye neza. Ni urubuto dukoresha cyane kurya ugashi ku buryo umuntu akamererwa neza akaryoherwa.

Umuhinzi ufite isuka ku rutugu, anyuzwe cyane n'ibyo yahinze. Ibishyimbo, ibirayi, ibigori, yishimye ko agiye gusarura. Ibisheke, guhinga isuka niyo ituma umuntu arya.

Itungo umuntu wese yishimira gutunga, ariko akarigirira isuku, arishakira ikiraro kimeze neza kandi akarishakira n'ibiryo kugira ngo abashe kubona umukamo ndetse akaba babasha kubona icyororo, kuko nk'iyi nka yo ibyaye babiri kandi ni icyoro cyane ku mworozi.

Ubukerarugendo. Mu misozi miremire hatewe amaterasi y'indinganire, hatewemo ibiti bigiye bitandukanye bifata ubutaka, bateyemo ibirayi, buri wese akumva yajya kubisura. Urugendoshuri rwagaragazaga ni buryo ki bubaka, bakora amaterasi g'indinganire.

Ibirayi ni ibihingwa byera mu Ntara cyane cyane iy'Amajyaruguru. Uruseke ni ibirayi by'umweru byiza bifufuka, ubiriye agubwa neza, ubiriye agira imbaraga, agira gukomera muri we. Kiraryoha wakirya ari ifiriti, wakirya gikaranze, wakirya ari amaganda kiba kiryoshye.

Uyu ni umurima w'ibijumba kandi ibijumba babikura bakoresheje isuka. Ibijumba babkuye babirambika ku ruhande, bigifiteho n'umugozi wabyo bakuyeho.

Umumaro munini ku mucuruzi ndetse n'uzihinga aho bazigemura mu bice bitandukanye, hifashishijwe ibitebo kugira inyanya zitabasha kwangirika cyangwa no kugura umuntu akagura akurikije uko ari kuzibona.

Abahinzi bari mu mirima itandukanye, aho bejeje imyumbati, imyumbati minini myiza, imyumbati iri mu bitera imbaraga, uwawuriye amererwa neza.

Ikibaya cyiza cyane cy'umuceri, ikawa, ibiti by'imbuto, ishyamba. Ni ikibaya kandi kirimo, haterwamo ibirayi, hari n'imisozi myiza, uba witaruye uri kureba imisozi ikuri imbere.

Ibitunguru byapuwaro bikoreshwa kenshi mu gihe utogosheje ibiryo nk'inyama ugashyiramo tungurusumu bituma umererwa neza kandi iyososi i biryoshye ,iba imeze neza, ibayujuje ubuziranenge ndetse inavura n'indwara.

Inoryi nziza, zibyibushye zimeze neza gezeze ku butaka bwiza buririmo ifumbire ifatwa nk'imboga ziryamererwa neza amenya ubwenge amenya gutekereza bubaka umubiri bituma umuntu amererwa neza

Voka ni nziza, umuntu ufite ikibazo cyo gupfuka imisatsi wayikoresha nk'umuti ukayisiga mu mutwe, umusatsi wawe ukareka gupfuka. Umuntu ukeneye kuyirya ku biryo yayirisha ibiryo kuko ifatwa nk'urubuto rutuma umubiri wawe umererwa neza.

Avoka ni urubuto rwiza, ruboneka ahantu henshi kandi bidahenda, ururiye wese agubwa neza, amererwa neza, ikindi kandi avoka bayikoramo amavuta afasha uruhu, umusatsi kumererwa neza.

Imiteja ni ubwoko bw'imboga, buterwa nk'ibishyimbo ariko bigasarurwa, maze bikabasha gukoreshwa mu guteka bivanzwe n'izindi mboga n'ibishyimbo. Bikorwamo na salade kandi ubiriye akagubwa neza.

Cyiza cyane kirimo ibintu bigiye bitandukanye, intoki ndetse ukireba abona ameze neza, hari viyuzi zigaragara neza aho hagaragara amaterasi y'indinganire ndetse n'ikibaya gifite ibyo kurya.

Ibiti by'amaronji .Amaronji ni urubuto ruribwa cyangwa ukarukoramo ji ivanzemo n'ibindi bintu waba wifuza bikaba bifasha umubiri kumererwa neza kuko biri mu bifasha umubiri kubirinda indwara.

Mu Rwanda rumaze gutera imbere cyane aho bubaka imihanda bagashyiraho indabo zitandukanye mu rwego rwo kurimbisha umuhanda w'igihugu muri rusange kandi bikaba binakoreshwa nko kugaburira amatungo cyangwa bikabavamo n'imiti ndetse n'ibindi.

Umurima w'igikoni n'imboga zigiye zitandukanye harimo imboga rwatsi, umubyeyi uri kuzibagarira, agasasira, kugira ngo zirusheho gutanga umusaruro mwiza, n'abazabiryaho babashe kurwanya igwingira mu bana.

Igiti cy'imyumbati, iyo imyumbati imaze kugera hejuru izana amababi, amababi bayita isombe, aho ashobora gukoreshwa nk'imboga zigatunga umuryango, bigatuma umubiri umererwa neza kandi n'imyumbati ivuyemo igakurwamo ifu y'ubugari, ndetse umuntu akawurya ari n'umyumbati akumva ameze neza.

Imyembe ni urubuto rwiza rwera ahantu hatari henshi mu gihugu . Umwembe ni urubuto ruribwa n'abantu bose kandi ntiruhenze ururiye rero agubwa neza ashobora kurukoramo ji , umutobe cyangwa ukarurya uruhase ukamererwa neza ukirinda indwara zitandukanye.

Avoka ni urubuto ruboneka ahantu hose mu Rwanda rukoreshwa muri sarade, aho barukoresha badekora ibiryo kandi rukaribwa umuntu ururiye akamererwa neza, akumva amerewe neza mu mubiri.

Amaronji meza kandi atukuye, harimo n'ay'icyatsi kibisi. Amaronji arwanya imirire mibi ni imbuto ku bana no ku bantu bakuru.

Isuka n'iyo itunze abantu benshi, kuko uyifite ayikoresha mu bintu bitandukanye. Guhinga imyaka, yamara guhinga agasarura ibyo abonye, bikagirira umumaro umuryango we ndetse n’igihugu muri rusange.

Umukobwa uri gucuruza wotameloni ,aho ahereza umuntu bitewe n'amafaranga afite kugira ngo abashe kurya iyo mbuto amererwe neza, kandi tuzi nezako wotameloni yoza mu nda ku bantu bose batandukanye.

Igihingwa ciza cyane bita pavuro gikoreshwa ahantu hagiye hatandukanye ,bwa mbere gikoreshwa nk'imboga hirindwa uburwayi butandukanye bikoreshwa nk'ibirungo bikanogera ukiriye wese.

Ikibaya kinini cyiza kirimo ibirayi aho abahinzi bafatanyijwe abagore n'abagabo, bari kuhira imyaka kugira ngo bazabone umusaruro aho imvura itagera bakoresha kuhira ibyo bita irigesheni, kugira ngo babashe kubona umusaruro utubutse.

Igihaza ni imbuto cyangwa ni umusaruro uva ku cyo bita uruyuzi. Igihaza kiraryoha, bagikoramo isosi, banagiteka babigeretse ku birarayi. Ndetse n'imbuto zazo icyo bita inzuzi, bazikoresha bazikaranga bakazirya, cyangwa bakongera bakazitera zikavamo ikindi gihaza.

Ibigori bimaze gusarurwa byumye biri hasi bitegerejwe kumanikwa ibindi bigahungurwa, bikavamo intete zijya gusheshwa cyangwa Ku rusyo kugira ngo havemo igikoma, umutsima abana bamererwe neza n'umuryango.

Umuceri ni igihingwa cyiza cyane gihingwa mu kibaya, kirimo amazi cyangwa mu gishanga, bigasaba ko abagabo babagarira kugirango ubashe gukura, abari n'abategarugori biteje imbere, bamenye agaciro ko kwita ku muceri muto ukomoka mu Rwanda kugira ngo ubashe kumererwa neza.

Uyu musaruro witwa ubunyobwa, ukaba ukunda kugira ibara ritukura, aka tubona gasa nk'aho ari umuhondo ni ako kaba karimo ubunyobwa, iyo buri mu butaka, kaba kari muri kano gacuruzwa gasa nk'umuhondo, bwamara kwera bakabusarura, bakabucukura, bakabukuramo, ubu bunyobwa buratonoye, bwavuye mu gakonoshwa kawo,...

Iduka rifite ibintu bigiye bitandukanye. umuceri, kawunga, amavuta, amasafuriya. Bituma uhageze wese yifuza ikiro kimwe cangwa gutwara umufuka, abasha kubibona akajya gutunga umuryango we.

Ni igihingwa gikunda kwera ahantu mu misozi miremire ,kandi ingano ni igihingwa gikoreshashwa mu buryo butandukanye aho bagikoramo imbada ,mu majyaruguru cyane imbada zirahari ibidiya zigakoreshwa mu mitsima, ndetse bakanabivanga n'amasaka kugira ngo babashe gukoramo umusururu.

Umugore umutima w'urugo. Ni we umenya uko bimeze, kandi afite no kuba aho aharanira ko umuryango we ugomba kwihaza mu biribwa, ndetse n'umunezero ukaba mwinshi n'uburere bw'abana bukarushaho kuba neza.

Ibishyimbo ni byiza kandi ku muntu wese. Iyo bibitswe neza mu mufuka wabugenewe, bishobora kuvamo imbuto nziza, kandi ntipfe. Ikazaba nziza igihe byeze, kuko bifasha kwirinda kugwingira, ndetse bituma n'umuryango umererwa neza. Ahari ibishyimbo nta nzara.

Bwera cyane cyane ahantu hashyuha, iyo bumaze gusarurwa baburya ari bubisi cyangwa bakabukaranga, babusyamo ifu ituma umuntu abasha kumererwa neza k'uyiriye.

Ubunyobwa bukiri mu gikonoshwa cyabwo, ni ukuvuga ngo iyo bumaze kwera busarurwa bumeze gutya, ukabwanika bwamara kuma bakajya babutonora, ariko iyo ushaka kugira ngo ntibwangirike ububika bumeze gutya, kugira ngo bumare igihe kinini bumeze neza Kandi nta mungu igiyemo.

Amoko y'ibishyimbo atandukanye, ibyibara bisa umukara babyita mwirasi, ibishyimbo byiza cyane, bimererwa neza, ubiriye amererwa neza, biraryoha, hakaza ibyo bita nyiramagorore, nyiramagorori, ibishyimbo bitukura byiza, byerera igihe gitoya, biryoha, bigira vitamine.

Igihingwa kitwa igihwagari. Gikoreshwa havamwo amavuta yo gutekesha, ndetse ibihwagari na none bikoreshwa nk'ubunyobwa. Ifu yayo iraryoha cyane kandi igira intungamubiri. Uyikoresheje agubwa neza kandi amavuta yayo ntabwo atera uburwayi.

Umurima mwiza, uteguye neza uri mo imyaka, imwe imaze kugera hejuru indi iracyari mitoya, ariko igishimishije ni uko biga gutera ku mirongo, kugirango babashe kubona umusaruro mwinshi uhagije, babona uko batera n'umuti bitabaruheje.

Ubunyobwa bwera mu Rwanda cyane cyane ahantu hashyuha, ni bwiza. Ubunyobwa ushobora kuburya ari bubisi, ubunyobwa waburya ubukaranze ari impeke, ubunyobwa banabukoramo ifu ikavangwa mu biryo umuntu agiye guteka, nabwo bugafasha kurinda umubiri akamererwa neza.

Umurima w'inyampeke witwa amasaka, ageze igihe cyo gusarurwa, bari kuyasarura abahinzi batandukanye, umugabo n'umugore bafatanyije kugira ngo buri wese yiteze imbere mu rugo rwe. Nta wuhejwe, bakayasheshamo igikoma, abana bakamererwa neza, n'umuryango ukamererwa neza.

Umubyeyi uhetse umwana, ari gutunganya ibyo guteka, ari kugosora ibishyimbo kugira abitoranye namara kubitoranya agende abiteke, abitekere mu gikoni kugira ngo we n'umuryango we babashe kubaho neza, barye bamererwe neza.

Kera mu Rwanda rwo hambere rw'abami, izi nzu niho zakundaga kubakwa cyane kenshi bakazigira nko gu guhunikamo ,bikaba ari umutiba uhunikwamo imyaka itandukanye babaga bejeje cyane cyane ibishyimbo ibinyampeke n'amasaka n'ibigori n'ibindi.

Bani ni igikoresho kinini gikoreshwa mu buhinzi aho bakifashisha basoroma imyaka, basarura imyaka ikagenda ikagezwa aho igomba kubikwa neza nta kwangirika ku kubayeho.

Imbuto y'ibigori ni nziza cyane nibimaze kuma mu murima barabisarura bakayishayika kugirango bitabasha kumungwa bikuma neza igihe cyazagera bakabihungura bikavamo ifu cyangwa ikindi kintu cyafasha umuryango.

Impeke nziza ziri mu bintu bitandukanye bimeze nk'ibigunira harimo ingano, umuceri, amasaka, ibigori by'umuhondo bita mayizori, impeke zigafasha abantu barimo intungamubiri zitandukanye, bazisheshamo ifu y'igikoma babitekamo n'umutsima.

Ni inka ni itungo ryitwa inka ndabona ari rinini rimeze neza. Rifite amabara y'umukara n'umweru mu bigaragara irenda kubyara. Itegereje abayifasha kugirango ibashe kubyara neza, akanyana cyangwa ikimasa.

Ingurube ni itungo rigufi, kandi rigira umusaruro mwinshi, iyo warigaburiye neza ukaryitaho, riguha nk'umusaruro mwinshi, aho inguru ishobora kubwagura ibyana birenga icumi, kandi ukabigurisha bikaguha amafaranga, ndetse bigatuma uniteza imbere.

Nziza cyane iri mu ifamu, aho iri igakamwa amata, ayo mataka agakoreshwa hirindwa igwingira, ndetse n'abayanyweye bakagira ubuzima buzira umuze

Inkoko na zo zigira ikiraro cyazo cyangwa aho ziba, iyo ushaka ko ubona umusaruro ufatika, uzishakira icyo kuriramo, ukazigurira ibiryo ukazishakira icyo kunyweramo amazi kugira ngo zibashe gukura zitange umusaruro.

Amatungo magufi yororwa n'abantu bose baciriritse bitewe n'uko ntibisaba, ibintu byinshi ntago bisaba ubwatsi bwinshi ntanubwo bisaba ikiraro kinini, ahubwo aho ufite hose inma babasha, kuyorora ikaguteza imbere mu buryo bw'amafaranga ukaba warya inyama abana bakamererwa neza mu rugo igwingira igahunga.

Inkoko ni itungo rigufi kandi ritaruhije korora, inkoko iyo uzoroye neza inkoko kazi nyuma y'igihe gitoya ziguha amagi, amagi akifashishwa kugira ngo umuntu agire imirire myiza, ndetse ayo magi akongera agaterwa agaturagwa akavamo imishwi igasimbura zazindi zishaje.

Inkoko ni itungo ryororoka vuba kandi ritagoye kurera risaba kuryitondera. Inkokokazi mu gihe gito iguhereza amagi, isake iyo imaze gukura iguha amafaranga ugasanga urugo rumeze neza ndetse n'abana bakarya ku magi, ku buryo nta gungira riba riri mu rugo.

Ingurube ya kijyambere, iyo uyiyoroye neza iri mu kiraro cya kijyambere, ukuyigaburira neza, iguha ibibwana byinshi birenga icumi cyangwa bigera mu icumi kandi nyuma y'igihe gito cyane iguhesha amafaranga ukaba umuntu ufite amafaranga ukaba rwiyemezamirimo wemewe.

Ingurube ni itungo rigufi ariko ryororoka vuba cyane ugereranyije n'andi matungo magufi. Nko mu mezi atatu gusa yonyine, uba utangiye gukirikita amafaranga. Ni byiza cyane kuryororera mu kiraro hirindwa indwara zaturuka hanze zikayanduza, bigatuma utabasha kubona amafaranga.

Amagi ni meza ku yariye urugero cyane ku mwana mutoya ukiri muto ugitangira kurya, aho umuhaye igi ryaburi munsi buri munsi akura ameze neza afite ubwenge, kandi ikindi n'umuntu mukuru iyo ayariye bimurinda uburwayi akamererwa neza.

Inka zitanga umukamo bita firizone, ziba nziza, kandi n'umworozi na we azivanamo amafaranga, aba yaturutse ku nka, akanazivanamo inyama, zibasha gutunga umuryango, baziriye.

...by'ingurube ni byiza byororoka vuba, iyo wabyitayeho neza ukabigaburira, kandi iyo bimaze kwegera hejuru bimaze gukura bivamo umusaruro ukomeye, kuri nyiri kubyorora ndetse n'ubigura. Kuko bigira n'inyama bita akabenzi iryoha cyane.

Inka nziza y imbyeyi, amabara meza inogeye ijisho, igira umukamo mwiza iyo uwuhaye ibikenerwa byose, kandi umuntu akabasha no gukirigita ku ifaranga, kuko abana banywa amata kandi ukabona n'igitunze urugo bivuye mu mata.

Ibiraro byiza bya cijyambere byororerwamo amapfundo atandukanye, nk'uko guverinoma y'u rwanda yashyizeho ibwiriza rivuga ko nta muntu ukwiye korerera itungo ahantu hatari ikiraro, cyangwa ngo ararane n'itungo kirazira.

Leta y'ubumwe ishishikariza aborozi kororera mu biraro bya kijyambere, aho iyo wororeyemo bifasha Veterineri cyangwa umuvuzi w'amatungo kukugeraho, kandi inka zikaba zituje ziri mu mutekano zibasha no kurindirwa umutekano, ku buryo ntawapfa kuzivogera.

Ikiraro cya kijyambere kiri ahantu hitaruye, heza kimeze neza, ku buryo inka uyishyizemo cyangwa imbeba cyangwa ihene, bitewe n'itungo ufite rimererwa neza ntibinyagirwa kandi byitaruye abantu ku buryo nta ho bihurira n'abantu ngo babatere uburwayi.

Ubworozi ni bwiza ku muntu ubyitayeho. Gushaka ikiraro cyabugenewe, ubwatsi buhagije, inkoko zitanga amagi, inka zigakanga umukamo, ihene wayigurisha bakayibaga, ihene yabyara undi mwana umuryango kururushaho gutera imbere, bikakuzanira amafaranga.

Urwuri rw'inka aho inka ziteranyirizwa kugira ngo zibashe kubungabungirwa umutekano kandi zibashe kubona ibikenerwa nk'amazi, ubuvuzi ndetse n'ubwatsi zibeho neza zibone umukamo.

inka ni itungo ryiza ryororwa n'abantu benshi batandukanye ariko naryo rijya rigera igihe rikarwara iyo rirwaye umuganga ubishinzwe wita veterineri araza akarisuzuma ndetse ashobora no kuribyaza mu gihe inka byananiranye

Inyoni ni igisimba mu bwoko bw'ibiguruka aho nayo ibasha gutera amagi, iri mu cyare ikagera igihe ikararira ikabonamo udushwi duto twana tw'utunyoni rero tukazakura tukazabamo inyoni nkuru.

Inzovu ni igisimba kinini cyane kiremera gifite ibiro byinshi, cyo ni ikinyamahoro gikunda kuba ahantu hashyuha muri parike cyane y'akagera aho buri wese yumva anyotewe no kujya kureba uko imeze ,uko ingana, ingano yayo ubwiza bwayo.

Inyamaswa ikunda kuguruka cyane ishaka ibyo irya, ariko ikagira aho ishobora kwarika bita icyari. Niho ishira abana bazo cyangwa nimugoroba bwije ikabona aho iryama.

Ni inyamaswa y'inkazi ikomeye iba mu ishyamba, umwami w'ishyamba. Itunzwe no kurya inyama kandi no kubungabunga umutekano wi'ishyamba. Nta wapfa kwinjirira ishyamba uko yiboneye kandi intare ihari.

Inyoni ziguruka aho zari zaracitse cyane cyane mu Rwanda bitewe n'ibikorwa remezo byari byaragagiye byangiritse ariko guverinoma y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo guhinga imigano no gukora ibishanga kugira ngo hongere hameremo ubwoko butandukanye bw'inyoni.

Ikibaya cyiza cyanee! Gifite ubwatsi butoshye. Ni imisambi ebyiri. Ni mo ikunda kuba yibera cyane. Ikunda kuba ahantu hatuje, kandi ibi bishushanya amahoro. Ibanye neza, iratuje cyane, kandi iri mu bwoko bw'inyoni zizi kuguruka cyane.

Ni inyamaswa ikunze kuba muri pariki, cyane cyane ko kera ho wasangaga zikunda kuba n'ahantu hari abantu, ariko mu rwego rwo kuzibungabunga, ziba ahabugenewe muri parike kugira ngo zibashwe kurindirwa umutekano, gusa zigira aho zihuriye n'umwana w'umuntu cyangwa umuntu.

Zifite amoko atandukanye zitwa ifundi. Ifundi y'umutuku n'indi ijya gusa n'umukara bikunze kuba ahantu hashuha cyane kandi no muri parike akenshi uzisangamo.

Kubungabunga ibidukikije ndetse n'ibinyabuzima biba biri mu ishyamba. Ubu mu Rwanda bamaze gukora amapariki menshi aho usanga inyoni zigiye zitandukanye z'amoko menshi, kandi bigaragara neza ko ari n'izagiye ziza umuntu atari azi.

Agacurama ni ubwoko bw'ibisimba cyangwa inyamaswa iba mu binyamabere, ariko iyo umuntu akarebye abona bimeze nkaho kaba mu biguruka kuko gafite amababa karaguruka, gashobora kumara igihe kirekire hafi amezi atandatu gasinziriye, katakoma, kakazongera kumara andi mezi atandatu gakanuye amaso, kirirwa kareba.

Iyi ni pariki iri kugaragaraho ibimera bitandukanye, iri kugaragaramo ibyo bita inkima zikunda kuba mu ishyamba cyane....

Ni igisimba gikunda kubarizwa cyane muri parike aho ibisimba bihurira, aho bishobora kubona ibyo birya kubona buryo ki byakwegera, ubutabazi ,uburinzi kandi bikinjiza n'amadovize cyane cyane abakerarugendo baje gusura ibisimba bitandukanye, nk'iki ngiki cyo ntabwo kimenyerewe cyane kizwi na bake.

Ingwe ni igisimba cy'ikinyamaboko kiboneka cyane cyane ahantu hashyuha, aho kiba gituje kandi kigatungwa n'ibisimba bito bito, ni byo bitunga iyi ngwe.

Igisimba kiri mu bwoko bw'ibikururanda bita inzoka kiba akenshi ahantu hashyuha ,mu butayu , mu maparike ni kibi ku muntu kuko cyangiza umuntu kikamurya , akamererwa nabi kigira uburozi ubumara bubi budapfa gukira.